Iyi shusho iragaragaza abagabo batatu bahagaze iruhande rwumunara bambaye hejuru impuzankano yimipira ikozwe mu ibara ry'ubururu ndetse imbere yabo hari igikapu cy’ umukara.

Iyi shusho iragaragaza umugabo wirabura wambaye ikanzu ikoze mu ibara ry'umutuku umukara n'umweru, nibyo byiganjemo cyane bigaragara ko akuze afite n'uruhara.

Iyi shusho iragaragaza umuhanda uciyemo udusate twerekana ko aho hantu hemerewe kwambukirwa n'abagenzi ndetse iragaragaza ko harimo n'umungenzi urimo kwambukiranya umuhanda.